Umutekano mu gihugu cyacu urakenewe kubera ko iyo dufite polisi, tuba dufite umutekano uhagije, cyane ko igihugu cyacu kiba kirinzwe cyane n'abasirikari b'ingeri zose zitandukanye, abapolisi, mbese ubu nta kibazo tugira cyo gusinzira, turasinzira rwose nta kibazo.

Akarasisi k'abagore. Abasirikare b'u rwanda b'igitsina gore na bo baragakora ukabona ni byiza, kandi iyo bari mu kararasisi bari ku murongo, ubona bibereye amaso. Ubwo rero abagore nabo bahawe ijambo, cyane ko na bo bajya ku rugamba nk'abandi bagabo bose.

Ubu ngubu abagore nabo bahawe ijambo kuko bashobora kuvugira mu ruhame, bakayobora ibirori ,bakayobora inama zitandukanye, murumvako rero umugore muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ,na we yahawe ijambo .Ubu ntacyo umugore atakora n'umugabo yagikora, mbese muri make twahawe ijambo.

Inama ziba nziza cyane. Iyo habaye inama cyane cyane nki'y'umutekano, abaturage bagezwaho ingamba nshyashya zafashwe ndetse nabo aho babangamiwe bakabaza ibibazo byabo, ugasanga barasubijwe nta kibazo. Mbese umuturage aba afite ijambo mu nama.

Ingabo zacu z'igihugu zidufitiye akamaro kanini, kuko zigacungira umutekano, uko biri kose tukaryama tugasinzira kandi ntacyo twikanga kuko umutekano uba ari ari wose mu gihugu cyacu.

Abadaso b'igihugu baba baba baratojwe cyane kuko ibyo bakora byose baba babikora neza badahutaje bagenzi babo, akazi kabo bakagakora neza mu mutekano nta kibazo kibaye.

Indege iba nziza cyane kuko idufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Iyo ari iy'intambara, ifasha abasirikare kugera aho batashobora kugera nko mu mashamba, bagatabara bagenzi babo, ubwo rero indege ni nziza cyane, kuko idufasha kugera aho tudashoboye kugera n'imodoka.

Abapolisi bagira gahunda kandi bose bambara iniforume imwe. Iyo bahagaze ubonaga bameze neza cyane. Cyane cyane iyo bagiye muri misiyo zitandukanye ubona babereye Igihugu rwose.

Inzu zikoze neza zisize amarange usanga abazikodesha bari kuzirwanira kubera ko ziba zifite isuku zisukuye neza ariko iyo zidakoze neza usanga zibuze abakiriya. Ni byiza cyane rero kubaka amazu yacu ukayasiga n'amarange ku buryo aba aboneye abantu barayakunda.

Inama y'umutekano， iba nziza cyane， kuko itugezaho uko tuzitwara n'uko turifata，kugira ngo umutekano usagambe umere neza. Ubwo rero abaturage twese turitabira， kugira ngo tumenye uko turifata mu gihugu cyacu，n’uko turacunga umutekano wacu.

Ibyapa byo mu muhanda ni byiza cyane, kuko biyobora abagenzi, aho uri bwambuke cyangwa mu gihe urahagarara imodoka zikaba ari zo zambuka. Ubwo rero hatabayeho ibyapa byo mu muhanda, byatuma impanuka ziba nyinshi, ariko iyo bituyoboye, bituma twirinda impanuka nyinshi cyane.

Agapfukamunwa nako kaba keza cyane. Iyo umuntu yarwaye ibicurane arakambara， kandi ntiyanduze abandi， ubuzima bugakomeza cyane， ha handi ivumbi riba riri kwinjira mu mazuru， iyo wambaye agapfukamunwa， ntabwo ryinjiramo uko ryiboneye.

Aho bakorera inama usanga hameze neza cyane hasukuye. Abantu bagatega amatwi neza mbese usanga buri muntu wese akurikiye, kuko haba hari umutuzo mwinshi cyane ushimishije, ku buryo n'uyoboye inama ayobora abantu ari kubitegereza cyane ukabona bibereye amaso.

Inama iba nziza cyane kuko iyo abantu bakoze inama baganira ku bibazo byaboneka mu gihugu cyacu cyangwa se ibyiza abantu bari kugenda bageraho, usanga bavuyemo bafashe ingamba nshyashya ku buryo bakomeza gukaza umutekano, nk'iyo ari inama igamije iby'umutekano usanga buri muturage bimunejeje.

Umuganda ni mwiza cyane, iyo abantu bahuje ntacyo batakora ngo bakigereho, iyo bubatse ibiraro biba byiza cyane kuko bashobora kugendererana, ariko iyo nta kiraro gihari hakaba hariho umugezi, biragorana kugira ngo umuntu ave mu gace kamwe ajye mu kandi.

Iyo abantu bagiye mu biterane bitandukanye by'indirimbo, bataha bishimye, bashimishijwe cyane n'uko amakorari yabarimbiye neza. Mbese iyo baririmbye indirimbo zo kubaka imitima yabo, usanga bishimye banezerewe cyane, mbese ku buryo usanga bari gukumbura ibyo biterane.

Abakobwa ba kera bajyaga mu rubohero bakaboha ibirago n'ibyo batahanaga iyo babaga bagiye gushaka abagabo, rero uyu munsi abakobwa bubu ntabwo bamenya kuboha, ariko aba kera barabohaga ukabona ari umuco mwiza.

igihingwa cyitwa umwungu kivamo ibintu byiza bishimishije, urugero: havagamo ibisabo kandi ibisabo babikoresha mu bukwe, ukabona bimeze neza cyane, mu muco wa kinyarwanda, iyo umuntu bamushyingiye ajyana ajyana n'igisabo.

Umuganura uba mu minsi u Rwanda rwizihiza kandi ugira umumaro mwinshi cyane, kuko utwibutsa amateka ya kera .Abantu ba kera bagiraga umuganura bakishima: bakarya, bakanywa ku byo babaga barahinze, ni byiza rero kuwizihiza.

Imbyino gakondo zirashimisha cyane ni imyidagaduro ujyamwo: abana abakuru, abasaza n'abakecuru ,abagore n'abagabo usanga aho iyo ,iyo myidagaduro iri kubera ,abantu benshi babirangariye cyane kuko barabikora.

Isekuru ni igikoresho kiza cyane bakora mu giti cyitwa umuvumu. Isekuru rero igira akamaro mu buryo butandukanye , bayisekuriramo ibintu bitandukanye; ubunyobwa, imyumbati mbese isekuro ni igikoresho kiza gikenerwa mu buzima bwa muntu.

Mu muco nyarwanda wahozeho kuva na kera, umukobwa umwari yari aberewe no kuba mu gikari akajya mu rubohero, agacunda amata ubundi agatereka amata, wasangaga ari byo bibereye umwari w'umunyarwanda, nta mwari wiyandarikaga kuko bakoraga imirimo myiza.

Mu umuco nyarwanda habamo icyo bita intore zirahamiriza kuko ziba zambaye n'amayogi ku maguru. Ubwo rero mu njyana yazo usanga iyo ziri guhamiriza ziri gushimisha abantu bagatahana ibyishimo. Abaje bafite agahinda kagashira.

Uduseke tuba twiza cyane ,iyo duteguye ahantu usanga hameze neza, kandi usibye n'ibyo dutanga n'amafaranga ,iyo abantu badukoze bakatuboha usanga ku isoko rwose bafite amafaranga, kuko na wo uba umuco w'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi.

Umuganura, umunsi w'umuganura baba batetse ibiryo by'ubwoko bwose, ndetse harimo impeke zose ku buryo n'ubiriye yumva yishimye cyane. Ni ngombwa rero ko dusangira ku munsi w'umuganura.

Umuco gakondo abantu biga no gukora imitako itandukanye, bakabaza mu biti cyangwa bakayishushanya ,ayo mashusho iyo agurishijwe usanga avuyemo amafaranga menshi cyane kuko abanyamahanga barayakunda.

Umuco wa kera wabonaga ubereye cyane, kubera ko abantu ba kera bamenyaga kubyina. Bakazamura amaboko nk'inyambo, mbese wabonaga ari ibintu bishimishije. Nk'iyo babaga bagize umunsi mukuru nk'ibirori bari kwizihiza umunsi w'umubatizo, wabonaga abantu benshi bishimye bari kubyina.

Kera mu muco nyarwanda ,abantu bajyaga guhiga inyamaswa ,bakitwaza imiheto ,ndetse bakarasa rwose bakoresheje imyambi. Abahigi rero iyo bajyaga guhiga mu ishyamba bitwazaga imiheto. Kandi iyo babonaga inyamaswa ije, barayiforaga ,bakayihwanya , ugasanga abantu bariye inyama.

Mu mitako abantu bakora, bakoragamo n'ibintu bishimishije abantu, kuko usanga bakoragamo n'ibyo bita igisoro, icyo gisoro rero, iyo abagabo bahuraga bari kugikina, wabonaga bishimye cyane, ukabona ni umukino ubashimishije, mbese ukabona buri wese acyishimiye cyane, kuko abona kimunejeje.

Urusyo na rwo rwafashaga abantu kera, iyo babaga bashaka kubona agafu ko gutekamo umutsima, bajyaga ku rusyo bagasya bakabona ifu. Ubu rero ibyuma bitari byaboneneka byo kubeteshaho, abantu bajyaga ku rusyo bagasya bakaba babonye umutsima ifu yo kuvuga mu mutsima.

Uduseke ni twiza cyane kuko iyo umuntu agiye gusura cyangwa agiye mu bukwe, agashyiramo imyaka ubona rwose aberewe kandi ibi baboha n'imitako itandukanye ku buryo abantu babikunda bakabitaka no mu nzu.

Umuco wahozeho kuva na kera, abakobwa babohaga ibirago kuko nibyo batahanaga mu rugo. Urumva ko rero kandi na n'ubu hari abakibiboha kuko bigira umumaro munini cyangwa bakabyicaragaho, bakabikaho imyaka. Urumva ko rero bigira umumaro.

Abantu ba kera bamenyaga kubumba inkono z'ibyando, kuko nta masafuriya yahabaga ari menshi, abantu bakundaga guteka mu nkono z'ibyondo, ibyo rero bigatuma abantu biga uwo mwuga bwo kubumba kuko nawo wari ufite akamaro wabahaga amafaranga menshi.

Mu muco wacu wa kinyarwanda ,tugira ingoma zibambishije uruhu, ubwo iyo bazivugije mu njyana yazo ,usanga abantu banezerewe bishimye cyane ,nko mu bukwe bagasusurutsa abantu ,ubona ari ibintu byiza cyane ,cyangwa iyo habaye iminsi mikuru mu Gihugu cyacu ,bakazanamo abakaraza, usanga bashimishije ibirori abantu bagataha banezerewe.

Isogi iba umuti mwiza cyane kuko uvura indwara zo mu kanwa cyane cyane iyo abana barwaye ishinya, uwukubaho, mu minsi ibiri ishinya iba yabaye nziza cyane. Urumva ko umuti, isogi ari umuti ufitiye Abanyarwanda akamaro.

Ibibigega babihunikagamo amasaka, ibishyimbo, amajeri, ibigori; wasangaga bifitiye abantu akamaro gatandukanye, ariko ubu biri kugenda bicika kubera ko basigaye barahunika mu bundi buryo butandukanye, ariko ikigega cyagiriraga umuntu akamaro, ntabwo yasonzaga agifite.

Inkono ziteka ibishyimbo neza， iyo umuntu yatetsemo ibishyimbo usanga biri guhumura， kandi iyo wabigeretseho ibijumba，usanga ari ibiryo biryoshye cyane， mbese ubona ari ibintu byiza cyane， ndetse n'iyo ushaka utekamo akanyama， kagira isosi nziza cyane.

Igikoresho cyitwa umuvure ,kiba cyiza cyane kuko kigirira akamaro abaturage nk'iyo bagiye kwenga ibitoki ,usanga bakifashishije rero igikoresho cy'ubuvure, ni icya kera kuko aho bacyenga ibitoki ,usanga ari cyo gikoresho bakoresha iyo bari kwenga ibitoki.

Intore zirahamiriza abantu bakishima bakunda kuzitumira mu birori kandi iyo zaje mu birori zishimisha abantu cyane. Bagakunda kuzitumira mu birori byose bitandukanye rero ni ngombwa ko zitumirwa.

Umuco wacu wa kinyarwanda habamo n'imbyino gakondo, kandi izo nazoz iba nziza, kuko zisusurutsa ibirori hirya no hino, ugasanga abantu bishimye kandi bafite umunezero.

Mu muco nyarwanda abantu babohaga uduseke twabaga dufite icyo dusobanuye mu buzima. Ubundi bakagira n'ibicuma icyo gicuma cyanyweragamo abantu biyubashye nk'abasaza. Umukwe mukuru iyo babaga bamwubashye ageze nko mu rugo, bamuheraga inzoga mu gicuma, cyangwa munywanyi wawe yaza kugusura, ukamuhera mu gicuma.

Abageni bakundana, bagafata umwanzuro wo kujya gusezerana, urugo rwabo ruhoramo ibyishimo, ugasanga ntawe uca inyuma y'undi, mbese ni byiza ko abantu basezerana ariko bakundana, kugira ngo bajye bahuza mu bitekerezo byabo, byo kubaka urugo rwabo rugakomera.

Intore ni nziza zisusurutsa abashyitsi ndetse mu birori iyo ziri kubyina usanga abantu benshi bishimye abaje bafite agahinda bagataha buzuye umunezero kubera ko intore zabasusurukije. Iyo ziri kuvuna umugara usanga ari ibintu bibereye amaso.

Umuvure ni igikoresho cyiza, gifasha abenga ibitoki bawengeramo hakaboneka imitobe, kandi uwo mutobe nawo udufitiye akamaro iyo bawujyanye ku isoko, babonamoamafaranga cyangwa se bakawutaramo inzoga nazo zikagurishwa.

Abantu ba kera bogoshaga ibyo bitaga amasunzu, kandi wabonaga baberewe nta kibazo, kandi ari byiza. Kuko wabaga ari umuco w'Abanyarwanda.

Kuva na kera bakiraga imi imitiba y'inzuki, bakagika kugira ngo inzuki zizemo, babone ubuki, kandi ubuki ni ingirakamaro kuko buvamo umuti uvura ibintu byinshi.

Igiti cy'isogi na cyo kiba cyiza kuko kivamo umuti uvura abana mu kanwa. Iyo babaga barwaye ishinya ni cyo giti bakoreshaga ugasanga bakivurishije abana kandi bagakira nta kindi kibazo kivutsemo.

Amasunzu yahozeho kuva kera, abakobwa beza barangwaga n'amasunzu barabogoshaga, bakabogosha amasunzu ku buryo iyo wababonaga wangaga bameze neza.

Kuva na kera intore zahozeho kandi iyo zazaga kubyina zigahamiriza, abantu barazikundaga cyane. N'uyu munsi rero iyo wazitumiye mu birori byawe, ziragushimisha zikabyina cyane, ku buryo abashyitsi bawe bataha banezerewe rwose.

Ingoma ni igikoresho cyifashishwa mu kubyina imbyino gakondo . Iyi ngoma ikozwe mu ruhu rw'inka. Kandi abazikora na bo bagira amafaranga menshi kuko zikundwa mu birori ,kugira zikoreshwe.

Kera abantu bagiraga ibikoresho bitandukanye kandi babyikoreye，bakabyibaziriza nko mu biti by'umuvumu，cyangwa se ibiko， ubwo rero iki gikoresho kitwa intemberi cyangwa umuvumu，cyagiraga umumaro munini cyane，iyo babaga bagiye gutaramo inzoga.

Aborozi b'inzuki usanga na bo ari abanyabwenge kukorora inzuki kuberako zitanga ubuki bwiza cyane, ndetse ubwo buki usanga buvamo umuti, umuti uvura ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ni byiza rero abavumvu korora inzuki usanga bibaha amafaranga menshi.

Mu muco gakondo habagaho icyo bita ingobyi, iyo ngobyi ni yo yahekaga abarwayi bagiye kwa muganga, abagore batwite, ndetse bayihekagamo n'abageni, iyo babaga bagiye kubashyingira. Ubwo rero ingobyi yari ifite akamaro, kandi na n'ubu hari uduce tugikoresha iyo ngobyi.

Mu muco wacu wa kinyarwanda dukora imitako itandukanye habamo: no kuboha ibirago ,gukora imitako ya kizungu ,mbese usanga iyo ugeze mu nzu mbera byombi urareba ukihera amaso, uwo ushimye ukagura uwo nguwo.

Yewe aba misi na kera bahozeho, usanga bambaye imyambaro itandukanye n'iy'abandi. Ubwo rero iyo umuntu yambaye kugira ngo abantu bamwitegereze, uko biri kose nawe akora iyo bwabaye, ubundi akambara neza ku buryo ashimisha abantu bakanamukunda.

Umuganura wahozeho na kera ,abantu bagiraga umuganura bakanywa ku byo biyejereje mu butaka bwabo, bakarya ku byo bihingiye mu butaka bwabo, bakaganira ari abayobozi ,abaturage bose bakawuhuriraho ,uwo munsi rero na n'ubu turacyawizihiza kuko tuba twibuka umuco wacu wa kera.

Ibyuma by'amashanyarazi biduha umuriro kuko bituma abantu bacana mu mazu yabo, ndetse n'iyo ducanye usanga abantu bari ku mucyo, mbere abantu baryaga mu mwijima ariko ubu dusigaye turarira ahantu hari umucyo hari kubona, ubwo rero urumvako iterambere ryabaye ryinshi cyane mu baturage.

Umuriro w'amashanyarazi kuwukinisha ntabwo ari byiza, iyo ubonye insinga wirinda kuzikoraho uko wiboneye kuko ushobora kuzikoraho ugasanga zirakwangirije ukaba wanahasiga ubuzima, ahubwo uritonda ahubwo ababyigiye akaba ari bo bazikoraho.

Ibikoresho bikoreshwa umuriro w'amashanyarazi, bitugirira akamaro cyane, hari ibikoresho utapfa gucomeka ngo bipfe kwaka, keretse ubishyize ku mashanyarazi. Cyangwa se umuriro waba washizemo, ukabicomeka, ukongera ugasubira.

Ibyuma bitanga umuriro kirazira kubicokoza utarabyigiye, kubera ko bikoramo abize ibijyanye n'amashanyarazi, ubwo rero ntabwo ari buri wese upfa gukora ku byuma by'umuriro w'amashanyarazi.

Ibyuma bikoreshwa n'amashanyarazi abantu birinda kubikoraho uko biboneye, keretse ababa barabyize mu mashuri atandukanye abo nibo babikoresha cyane, naho abandi bagomba kubyirinda kuko bitera impanuka nyinshi mu mazu y'abantu.

Amashanyarazi ni meza cyane, kuko adufitiye akamaro kenshi, aho yageze muri ako gace abantu batera imbere bakazana ibyuyuma byo kubeta bakogosha.

Amatara y'ubu atandutakanye n'ayo twakoreshaga kera, kuko ay'ubu yo akoreshwa n'amashanyarazi cyangwa imirasire y'izuba. Murumva rero ko tugenda dutera imbere, kuko dufite amatara agezweho.

Umuriro w'amashanyarazi ni mwiza cyane kubera ko hari n'ibyuma bikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, ubwo rero umuriro ntabwo twagira icyo twawunega, kuko udufasha mu bikorwa bitandukanye. Hari n'ibyuma dukenera gukoresha kandi tukabikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Iki gikoresho kiba cyiza cyane, kuko cyerekana amashusho umuntu akamenya amakuru atandukanye yabereye mu gihugu cyacu, ndetse no hanze yacyo. Iki gikoresho rero, tugikoresha turi gucomeka ku muririro, ubwo birumvikana iyo umuntu atagira umuriro, ntabwo areba tereviziyo.

Ahantu haba ibikorwaremezo haba harinzwe cyane, kuko nk'amashuri agomba kuba azitiye kugira ngo twizere umutekano w'abanyeshuri ,ubwo rero ntabwo bapfa kuwinjiramo uko biboneye babanza gusaba uburenganzira.

Amashuri yabaye menshi cyane, uburyo umwana yiga ku ishuri rimwegereye. Kandi usanga abana batakiruha bakora ingendo zitandukanye bagiye gushaka aho bubatse amashuri. Ni byiza cyane kuko basigaye biga batananiwe cyane ugasanga bari kugira ubwenge.

Ibikorwaremezo biba byiza cyane kubera ko usanga n'abayobozi babyitabiriye, bari kurwanya abantu bagenda bari gusenya ibikorwa remezo. Ubwo rero tubungabunga ibikorwa remezo dukora imiganda ku mihanda, twubaka insengero, amashuri ndetse n'amahoteri yo ba mukerarugendo baruhukiramo iyo baje kudusura.

Umuhanda w'i Kigali iyo uwugezemo usanga ucanye amatara. N'iyo haba ari nijoro, ugira ngo ni ku manywa, kuko amatara yose yo ku mihanda aba acanye, ukabona arabonerana neza. Ku buryo abantu barara bagenda bukabakeraho.

Insengero ziba nziza mu buzima kuberako iyo abantu baje gusenga bafite ibibazo bitandukanye usanga batashye banezerewe, abagira intimba na zo zigashira, ubwo rero ni byiza kuko zifasha abantu kunezerwa no kwiyunga n'Imana ,ni byiza rero kujya gusenga kuko bidufitiye akamaro kenshi gatandukanye.

inyubako ubu ngubu zabaye nyinshi cyane kuko yemwe no mu muhanda barahubatse, bahashyira amatara acanira abantu. Iyo bwije ugira ngo ni ku manywa kandi bwije. Ubwo rero nta muntu utinya kugenda nijoro, barara baragenda bugacya. Kubera ko amatara aba ari kubaboneshereza. Ubwo rero ibikorwa rusange ni byiza.

Insengero zifasha abaturage cyane kuko iyo bagiye gusenga biyunga n'Imana yabo, ugasanga umwiryane urashize mu bantu badafite amakimbirane bakiyunga, ugasanga babanye neza mu mahoro rwose.

Musenyeri anyanyagiza amazi y'umugisha ku bantu usanga bishimye, kandi abagirira umumaro kuko abarwayi barakira ,abayizeye bibagirira umumaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, ni byiza cyane rero iyo wamenyeko Musenyeri ari kunyanyagiza amazi y' umugisha ukaza nawe ukayafata.

Inyubako nziza cyane zitugirira akamaro gatandukanye, kuko usanga barashyizemo n'ibiro abayobozi bacu bakoreramo, uturere tugakoreramo aho bivuriza, aho hose usanga bari gukorera muri ayo mazu iyo bacyubatse ari kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Ibikorwa remezo byubakwa habonekamo n'ibigega bahunikamo ibirayi cyangwa iyindi myaka. Ibigega, kandi ibyo bigega nabyo biradufasha mu gufata amazi y'imvura ava hejuru ku mabati. Ubwo rero n'ibikorwa rusange biba byiza.

Amashuri mu Rwanda yaravuguruwe cyane ko ubu harimo iterambere; basigaye bubaka n'amashuri ageretse, umunyeshuri yigira ahantu heza, hasukuye, bituma agira ubuzima ndetse akiga neza, iyo umunyeshuri ari kwigira ahantu hafite isuku biramufasha mu burere.

Mu bikorwaremezo dusangamo n'ibibuga by'umupira kandi abanyeshuri bacu babikiniramo bakishima. Ubwo rero ni ngombwa ko mu mashuri yacu haboneka n'ibibuga by'imipira ibyo abanyeshuri bacu bazajya barakiniramo imipira.

Ubu iterambere ni ryose mu gihugu cyacu abantu bagiye bubaka amashuri, bakubaka amayetaje, mbese abanyeshuri basigaye barigira ahantu hasukuye neza cyane, urumva ko rero iterambere ryatugezeho natwe turiga nta kibazo.

Inyubako zitandukanye zirimo amayetaje ziba nziza cyane, kuko icyo kizu cyose gikoreramo imishinga itandukanye, muri guverinanse ugasanga harimo n'indi mishinga mbese baba barubatsemo ibyumba byinshi, ku buryo abantu bakeneye gukoreramo bahakorera nta ki....

Ibikorwa remezo bibaga byiza cyane kuko bigirira abaturage umumaro munini cyane. Nko mu busitani barahifotoreza, mu mahoteli biyakiriramo ugasanga baranezerewe cyane. Ubwo rero ibikorwa remezo bitugirira umumaro munini cyane, insengero n'ibindi byose.

Icyapa kiba cyiza, iyo kiri ku muhanda n'iyo umuntu yaba yayobye kiramurangira akamenya icyerekezo cy'aho ari kugana. Ni byiza rero gushyira ibyapa ku muhanda kugira ngo bijye birarangira abaturage aho bagiye nta kibazo kibaye.

Ibikorwa rusange bidufitiye akamaro, kubera ko imisoro dutanga ni yo ivamo ibikorwa rusange, amasitade, insengero, amashuri y'abana bacu ava mu misoro dutanga. Murumva rero ko ibikorwa rusange bigirira abaturage bose akamaro.

Amacumbi ubu yabaye menshi, ubungubu nta muntu ukirara mu nzira afite aye mafaranga, aragenda agashaka icumbi ringana n'amafaranga ye, kubera ko amazu yabaye menshi yarubatswe, acumbikira abantu, nta wapfa kurara mu nzira afite aye mafaranga.

Inyubako za rusange, tuzikoreramo ibikorwa byinshi bitandukanye nk'imbyino abantu barahakodesha bakahakorera ibirori bitandukanye, kandi ugasanga abantu barishimye cyane, ndetse n'uwubatse iyo nyubako ugasanga abigiriyemo amahirwe menshi cyane.

Amazu yo mu mujyi iyo bayubatse usanga bashyiraho ibirango biyaranga, ku buryo iyo umuntu agiyeyo areba gusa ikirango kiharanga ntapfe kuyoba. Ntabwo bapfa kuyoba n'iyo utabaza witegereza ibirango byayo ukamenya icyo cyerekezo icyo ari cyo.

Ibikorwa remezo biba byiza cyane, kuko nk'iyi mihanda yagiye yubakwa kubera imisoro dutanga, ariko rero idufitiye akamaro, nko kubaka ibiraro, byo hejuru mu kirere, ntabwo bipfa gusenyuka, birakomera.

Umutambagiro wa ba musenyeri nawo uba mwiza. Iyo abakirisitu babo; abagatorika bagiye mu mutambagiro mutagatifu barawubaha, usanga buri wese ari ku murongo, kandi musenyeri abahesha umugisha, akabaha amazi y'umugisha.

Imitungo rusange ifitiye igirira abaturage akamaro kuberako urugero nk' urusengero iyo baruhuriyemo abantu barasenga ,ugasanga bibahuje n'Imana ,ugasanga bariyunze iyo bafite icyo bapfa baragikemura mu mahoro.

Iyo turi mu gihe cy'amatora usanga abaturage bari ku murongo ntawanyura ku wundi ngo amuvundavunde, ahubwo bose baba bitonze bacishije make, kandi bakagenda ku murongo ntawe uhutaje undi.

Abantu bose barajijutse ntawupfa kubapfukiranya uko yiboneye ,buri muntu wese iyo ari mu nama abaza ikibazo cye kandi akagisubizwa , ubwo rero uburenganzira bw'umuntu bwaraharaniwe cyane kuko buri muntu wese afata ijambo akabaza ikibazo cye.

Abakecuru b'ubu barasobanutse, nabo bashobora kuvugira kuri za mikorofoni, bagatanga igitekerezo cyabo cyangwa bakabaza ikibazo cyabo, igihe inama zateranye. Abakecuru rero, nabo bahawe ijambo, ntabwo bitinya, iyo bari mu bandi.

Iyo abaturage bari mu nama, bari mu mazu yabugenewe, batega amatwi abayobozi babo, bakabakurikira kugira ngo bashobore kumva ibyabateza imbere. Ni ngombwa rero iyo abaturage baje mu nama, batega amatwi bakabaza n'ibibazo bagira mu buzima.

Abagore ubugu bahawe ijambo. Usanga iyo bayoboye inama abagabo n'abagore babateze amatwi, kandi ibitekerezo byabo bikubahirizwa. Ufite ikibazo arakivuga kikubahirizwa, mbese nta mugore ugisuzugurwa cyane ko nabo ubu mu buyobozi babamo.

Za rusange zikorwa n'ibintu bitandukanye: amamodoka, amagare cyane cyane ko ubu bubatse za gare kugira ngo ukeneye gutega avuye mu karere kamwe agiye mu kandi ajye abona uko agera mu gace ke atuyemo bitamworoheye, abantu bajya gutega ugasanga bagezeyo vuba.

Imodoka zitwara abagenzi za rusange na zo ziba nziza cyane. Kuko abantu iyo bafite amafaranga makeya, ntabwo baba bashoboye gutega izo baragendamo zabo z'umwihariko. Ariko iza rusange zituma bagabanyirizwa amafaranga, bakagera iyo bagiye amahoro.

Ibinyabiziga bitwara abantu ubu byarabonetse ari byinshi mu gihe haba abantu bararaga muri za gare bagategereza imodoka bakazibura. Ariko ubu ngubu byabaye byinshi cyane, nubwo abantu bahagarara ntabwo barara muri za gare, igihe kiragera bakagenda.

Indege zitwara abantu muri rusange，zibajyanye mu bihugu byo hanze， nazo ziba nziza cyane， kuko hari ingendo utakora ukoresheje amamodoka， kubera ko indege zo zinyura no hejuru y'amazi， zikambuka，zikagera no mu bihugu bya kure. Ubwo rero imodoka，indege， nazo zitugirira umumaro， iyo dukeneye kugenda.

Ahantu henshi bategera amamodoka bahubatse za gare kuko babonye abagenzi baririrwaga ku mihanda bakabura icyabatwara, ariko ubu ngubu iyo umuntu hari aho agiye kujya agendaga muri gare agategerayo imodoka, kuko amamodoka aba ari menshi ndetse agiye mu cyerekezo agiyemo.

Lifani ni igikoresho gikoreshwa batwaramo ibintu bitandukanye, ubwo rero kigirira abaturage akamaro kenshi cyane, kuko iyo umuntu adafite ubushobozi bwo gutwara mu modoka nini, yifashisha lifani, iyo agiye gutwara ibintu bikeya.

Amagare atwara abantu akabageza aho bifuza kugera. Erega si abantu gusa atwara, atwara n'ibintu bitandukanye, habamo n'imitwaro iremereye abantu baba badashoboye kwikorera ku mutwe, ariko bakwifashisha amagare akabagezayo nta kibazo.

Ibigo byinshi byateye imbere kuko bigira amamodoka yabo zitwara abakozi babo. Aba harimo abanyeshuri batwara abanyeshuri babo babageza mu rugo cyangwa ku mashuri basanzwe bitaho. Ni ngombwa rero iyo ikigo gifite imodoka yacyo biroroha gutwara abantu babo.

Iyo uri gucuruza ibicuruzwa byawe ufite uburyo bwiza bwo kubigeza ku bakiriya bawe, usanga bibashimishije, nawe birakorohera kuko ubahereza ibicuruzwa mu buryo bwihuse, bitakuvunnye cyane.

Imodoka ndende zitwara abantu benshi cyane kandi zikabagezayo vuba byihuse, usanga bagereyeyo icyarimwe ntibagende bake bake, ahubwo ugasanga iyo bafite umugambi umwe bagererayo icyarimwe nko mu bukwe bakagerayo bishimye.

Amamodoka na yo aba meza cyane kuko atwara ibicuruzwa bitandukanye, akabigeza ku babikeneye, kandi iyo umuntu yahisemo kugendera mu modoka, usanga bibaye byiza, ndetse n'ibicuruzwa akabicuruza yishimye cyane, bikagera ku bakiriya be amahoro.

Imodoka ziba nziza cyane, kubera ko zitwara ibintu byinshi bitandukanye, hari n'izitwara za peteroli na za esansi kandi izo na zo ziba zikenewe mu gihugu cyacu ,tudafite amasitasiyo aho baragurira za esansi na za peteroli ,ibintu byazamba ariko tugira aho kugurira za esanse.

Imodoka zitwara abantu mu muhanda ziritwararika cyane， kubera ko iyo ziri kugenda mu muhanda，iyo ziri kugenda ziri kwirukanka，zakora impanuka， ariko porisi nayo irazireberera， igatuma umutekano uboneka neza mu muhanda.

Ubu kujya mu mahanga byaroroshye cyane, kuko habonetse imodoka zitwara abagenzi bagiye iyo mu mahanga, nka za kampala. Mbese ubu biroroshye cyane, aho umuntu yibazaga uko yagerayo, ariko haba n'imodoka zabugenewe, zitwara abagenzi Kigali Kampala. Ubwo rero abagenzi byarabashimishije cyane kuko babatagera muri gare.

Iyo imodoka ziparitse neza mu mwanya wazo wabugenewe, usanga nta bibazo zigirana na porisi, ariko iyo ziparitse nabi, usanga bari kuzica amande, kubera ko zaparitse nabi. Ni ngombwa rero guparika neza imodoka neza.

Imodoka za rusange，nazo zigirira abaturage akamaro， kuko zibafasha kugera aho batashobora kugera n'amaguru，kandi zikabihutisha. Ubwo rero zitabayeho， abaturage twakongera tukajya kurakora ingendo n'amaguru， kandi byaratuvunaga cyane， ubu rero kubera ko twabonye imodoka rusange， nabyo bidufitiye akamaro.

Muri gare hategeramo abantu b'ubwoko bwose, ntawe uhezwa muri gare, apfa kuba afite urugendo, hari iyo yigiriye, urinjira ukajya gutonda umurongo, cyangwa ukareba aho tagisi iparitse ukayibaza iyo iri kujya ikakujyana.

Iyo imodoka ari nyinshi muri gare usanga ziri gutwara abagenzi mu buryo bwiza bworoshye, buboroheye cyane, kuko iyo ari nkeya, ubona abagenzi bakererewe mu nzira bagatinda kugera iyo bajya bitaboroheye.

Indege iba nziza cyane, iyo ugiye gukora urugendo rutagusaba kugenda mu modoka, bigusaba gutega indege, kugirango ushobore kugerayo vuba cyane, uko biri kose indege irihuta kuruta imodoka, rero iyo ugiye ahantu kure bigusaba gutega indege kugira ngo ugereyo vuba, kandi ugenda ufite umutekano nta kibazo ufite.

Imodoka ni ingirakamaro za rusange, zigufasha gukora ingendo zitandukanye, aho tudashoboye kugera n'amaguru zigufasha kugerayo mu buryo butworoheye. Abaturage rero barazikunda cyane kuko zitahaba hari ingendo za...

Muri gare aho abagenzi bategera amamodoka, usanga ibintu biri ku murongo kandi abantu baba bitonze nta kavuyo bafite ,ubwo rero usanga ibintu bimeze neza bategereje. Iyo bamaze gukatisha amatike yabo bategereza amasaha yagera ,bakabatwara bakabagezayo amahoro.

Ubu ingendo zaroroshye, kuko abamotari baragutwara bakakugeza aho ugomba kugera, ntakibazo na kimwe kivutsemo kandi ukahagerera igihe, rero amamoto nayo atugirira neza n'ingenzi mu buzima bwacu.

Abamotari batwara abantu neza cyane. Kuko usanga bisanzuye mu muhanda, imihanda barayaguye, ubu nta bibazo byinshi bibonekamo, kubera ko haba ari hanini cyane, impanuka ntago zakunda kubaho, kuko buri wese agenda yisanzuye nta kibazo.

Imodoka nini nazo zigira umumaro, kuko zitwara abantu benshi cyane, ugasanga bagezeyo amahoro, kandi bakagererayo igihe.

Imodoka zitwara ibintu na zo zorohereje abantu. Hari ibintu umuntu aba atakwikorera abikuye mu ntara abizanye nko mu mijyi, ubwo rero yifashisha imodoka zikamuzanira ibyo bikoresho akeneye, cyane cyane ibishyimbo, iyo yahinze kure arabisarura agapakiramo cyangwa se ibindi bikoresho...

Ubwato buba bwiza cyane kuko bufasha abagenzi kwambuka amazi bitagoranye, naho hatabayeho ubwato ingendo zo mu mazi zahagarara kandi hari igihe abantu baba bakeneye guhahirana bakoresheje ubwato. Ubwo rero ubwato buba bwiza cyane.

Imodoka za rusange zitwarara abantu nazo ziba nziza kuko zibamo amakampani atandukanye nka Vorukano, Virunga n'izindi. Izo rero umuntu ajya gukatisha aho ari kuva ari kwiyumvamo bitewe n'icyerekezo agiyemo.

Igare ni igikoresho gifite akamaro cyane, kuko bagitwaraho ibintu, abantu. Abagore na bo ubu biteje imbere, kuko na bo batwara amagare. Mbese nta ngorane ziriho, na bo iyo bahashye bagitwaraho ibintu byabo, urumva ko igare ari igikoresho cyiza.

Kubera ubuke bw'imodoka zo mu cyaro usanga imodoka zipakiye y'ibintu, zigapakira n'abantu, mbese ubona hari impungenge z'uko zakora impanuka. Yewe umuntu agize amahirwe mu cyaro naho hakabonekayo imodoka nyinshi zajya zibafasha mu kujyana ibicuruzwa byabo cyangwa ibihingwa byabo.

Gare ya Rubavu iyo umuntu agezeyo agiye gutega ubona hameze neza cyane, kuko bakwakirana na yombi ukabona ko ari ibintu bigira umurongo mwiza ku buryo abaturage bativovota.

Imodoka zitwara abagenzi muri rusange, ubu bazishiriyeho aho ziparika, usanga buri wese atonze umurongo ari kwerekeza aho imodoka iri, mu cyerekezo agiyemo ihagaze. Ubwo rero nta muvundo wahabaga kubera ko buri wese aza muri gare azi aho imodoka iparika.

Ubu ahantu hose hari gare hashyizwemo gahunda ku buryo abagenzi iyo bagiye gutega amamodoka batonda imirongo, ku buryo usanga harimo umutekano nta muvundo uhari, buri muntu wese akagenda yinjira mu modoka bitewe n' igihe yahagereye.

Ikibuga k'indege kiba kirinzwe, kandi n'abagiyeyo baba bafite umutekano. Nta kibazo baba bafite, cyane ko baba bari kwerekeza aho basanzwe bazi, basanzwe bategera. Nk'uko tugira gare, ni ko tugira n'ikibuga k'indege dutegeraho indege iyo dushaka kujya hanze.

Imikino ni myiza igirira akamaro imibiri yacu, nko kuyigorora abantu bakishima, barishimaga birenze, usangaga bidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umukino wa siporo uba mwiza cyane. Iyo abantu batsinze usanga bishimye， bakabura uko bigira kubera ko nta muntu udashimishwa no gutsinda. Umuntu wese ashaka gukina agamije gutsinda ibitego，kandi byinshi. Ubwo rero uwashoboye kubitsinda bamwita intwari.

APR iba umupira ukundwa n'abantu benshi cyane, iyo umupira wabo wabaye, bakinnye n'iyindi kipe, usanga abantu buzuye muri sitade, bazanywe no gufana, bishimye cyane, usanga iyo yatsinze, abantu barara mu kabari bari kunywa bishimye cyane kuko ni ikipe yabo bakunda rwose.

Amasitade na yo aba meza cyane, iyo bubatse sitade ahantu habera umupira iyo abantu baje kureba umupira, baricara ukabona bari mu mu mutozo. Ubu rero baravuguruye, amasitade bashyizemo amarangi atandukanye ndetse n'ibyiciro niko biba bitandukanye, iyo umuntu agiye kureba umupira biterwa n'icyiciro arimo ni ho yicara.

Abakobwa bo mu Rwanda bamenya gukina，kandi baratsinda cyane，bakabona ibitego byinshi. Niyo mpamvu twese tugomba kujya dukina，tukabigana，kuko biba ingenzi mu buzima. Ni byiza cyane， iyo umukobwa akina，usanga yaragororotse bishimishije.

Imikino y'umupira iba myiza cyane, kuko usanga buri wese ari guharanira ko yatsinda, kugira ngo abone igikosi. Ni byiza cyane rero gukina, kuko bitugirira akamaro kenshi.

Siporo iba ingenzi mu buzima kuko n'abakobwa barakina kandi bagatsinda bakabona ibitego byinshi cyane. Siporo rero itugeza ku bintu byinshi, kandi dufite iterambere mu gihugu cyacu kuko n'abakobwa baritinyutse, ubu bamenya gukina nk'abandi bose.

Kwiruka ni ingirakamaro mu buzima bwacu . Ariko noneho n'abagore na bo biteje imbere mu kwiruka . Barirukankacyane nabo bagashikira ibihembo nk'iby'abahungu bashikira. Ni ngombwa rero ko na bo bashishikarizwa kwirukanka ,kandi na bo babonye harimo inyungu nyinshi cyane.

Siporo ziba nziza cyane ,urabona ko n'abakobwa na bo bateye imbere mu gukora amarushanwa yo ku magare ,ubwo rero nta muntu uhejwe kuko abantu bose basobanukiwe ko siporo ari ingirakamaro, ziduha n'amafaranga uretse ko tugororoka no mu ngingo ,ariko ziduha n'amafaranga zigateza imbere n'igihugu cyacu.

Umukino witwa basikete uba mwiza cyane, cyane cyane iyo abakobwa bari kuwukina ubona ubashimishije kandi urabanura no mu buzima busanzwe. Mbese barakina bakajya bariterera hejuru ku buryo batsinda neza cyane.

Imikino ni myiza cyane kubera ko iyo yabayeho, abaturage bajya kuyireba bakishima ,ishimisha abantu, ugasanga mbese harimo n'abandi bafashe umwanzuro wo kuyijyamo kubera ko imikino itandukanye ,ishimisha abantu muri rusange.

Amasiganwa mu Rwanda abaturage barayakunda cyane. Iyo yabaye usanga abantu bose bagiye ku mihanda itandukanye, kugira ngo birebere uko Abanyarwanda bari kurushanwa, kandi bakareba ko Abanyarwanda na bo bajya bajya imbere bakamenya kwirukanka cyane.

Abakina tenisi, nabo bagira ubuzima bwiza, kuko ni umukino ukina uri kwiruka, kandi iyo uri gukina uri kwiruka, amaraso atembera neza mu mubiri, bigatuma agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Dukomeje kuvuga kuri siporo, iba nziza cyane, nk'iyo habaye amakurusi y'amagare, ubona abantu bose bishimye, ndetse iyo bumvishije imodoka ije, imbere yayo magare, n'abatetse bata ibiryo batetse, bakaza ku mihanda, bakaza kwihera amaso, bakareba uko abantu barushanwa, mu gutwara amagare.

Abantu benshi barasobanukiwe bamenye ko imikino iba myiza cyane, ubwo rero umwana w'umukobwa nawe ntiyashigajwe inyuma, ahubwo abakobwa nabo bitabira imikino yo gukina, kuko usanga imikino abahungu bashoboye gukina n'abakobwa bayishobora, kandi rwose bagatsinda neza cyane, mbese ubu ntacyo umuhungu yakina umukobwa atakina.

Mbere y'uko abakinnyi bakina, babanza kubaha inama z'uko baritwara mu kibuga cy'umupira. Ni ngombwa rero ko bazitegera amatwi, kandi bakicara bagakurikiza ibyo babwiwe. Imikino rero ishimisha abantu cyane, iyo bageze ku ntego bari bihaye.

Siporo iba nziza cyane, iyo bari gukina, ubona bishimye, ndetse n'abaje kureba umupira, bataha banezerewe cyane, mbese uretse ko igorora umubiri wacu, ariko n'abantu barishima cyane.

Siporo iba nziza cyane, igorora amagufa ,amaraso agatembera neza ,mu mubiri kandi abahungu n'abakobwa bitabira siporo, ikiba kigambiriwe ni ugutsinda ibitego byinshi cyane ndetse bagahesha agaciro n'igihugu cyacu.

Siporo iba ingenzi mu buzima kuko ishimisha imibiri yacu, ubwo rero amarushanwa y'amamodoka na yo abantu barayakunda kuko baza kuyareba ari benshi.

Siporo uba umukino mwiza cyane ,uw'amagare wo ushimisha abantu benshi cyane abari kuyatwara barishima ndetse n'abaje kuyareba mu gihe cy'amakurusi ,na bo barishima cyane, usanga bari kogeza cyane cyane.

Siporo ni umukino ushimisha abantu benshi batandukanye, ubwo rero usanga n'abakuze nabo barawitabiriye, mbese uretse no gushimisha abantu, udufitiye n'akamaro mu gihugu cyacu, kuko uduha amafaranga ndetse n'ishema ryinshi cyane.

Uyu umukino ushimisha abantu kuko habamo kwirukanka cyane, ubwo rero abantu barawukunda cyane, iyo wabaye baza kuwufana ugasanga abantu bashimishijwe n'uko abantu bashoboye gusimbuka cyane no kwiruka ndetse bagatsinda ibitero, ibitego byinshi cyane.

Siporo iba ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubona rwose abakobwa baragororotse, nabo bamenya kwiruka, ku buryo bakina za tenisi, kandi uwo ni umukino ushimisha abantu benshi, nubwo biruka icyuya kikabira, ariko baba bari gusohora imyanda mu mubiri. Ubwo rero, siporo iba ingenzi.

Imikino yose iba ari myiza, cyane iyo umuntu ari gukina yashizemo umwete ubona intego ye ari ugutsinda, rero duharanire gukina ariko kandi tugera ku ntego dutsinda, abagore n'abakobwa na bo intego yabo ni ugutsinda ba....

Siporo iba nziza cyane kuko ni umukino ushimisha abantu bose, ingeri zose, abagabo, abagore, abasore n'abakobwa, urubyiruko ndetse n'abatari kuwukina baza kuwufana, ubwo rero siporo iba nziza mu buzima.

Siporo ziba nziza cyane kuko zigorora ingingo zacu araso bagatembera neza mu mubiri. Mbese umusore wakoze siporo uramureba nawe ukamwibwira kuko aba afite ibigango biteye ubwoba.

Iyo umuntu akunda gukina, kandi iyo akina agatsinda ibitego byinshi cyane, ubonaga bimushimishije cyane, kuko iyo ari muriyo siporo ubonaga rwose yishimye, ntakibazo afite, n'abandi baramukunda iyar'umuntu ushoboye gukina, cyane cyane nka basikete.

Siporo ni igikorwa cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko usanga cyitabiriwe n'abantu batandukanye ,Abanyamahanga, Abanyarwanda, Abanyakenya usanga abantu bose bacyishimiye kuko kibageza ahantu hakomeye cyane ,kibateza imbere ugasanga habonetsemo n'amafaranga yo kubatungana n'imiryango yabo yose.

Imikino abahungu barayitabira cyane ,ni ngombwa gushishikariza n'abakobwa bakajya barayijyamo, bishimye kuko ibagirira umumaro ubuzima bwabo bwa buri munsi ,zigorora ingingo zitandukanye z'umubiri.

Iyo abazungu baje gukorera amarushanwa mu gihugu cyacu, usanga abaturage bose bishimye, bagiye ku muhanda kureba amarushanwa, natwe rero dufite ibyiza mu gihugu cyacu, kuko bakigenderera.

Imihanda barayitabiriye barayikora, ku buryo ubona inoze cyane. N'iyo ari kuyigendamo yumva nta kibazo afite, idafite ubunyereri, n'ubwo baba batarashyiramo kaburimbo usanga rwose ari umahanda mwiza wagendamo ukanyuzamo ikinyabiziga cyawe buri nta soni ufite.

Imihanda yangiritse ubu bayihaye ba rwiyemezamirimo, barayikora rwose ikongera igatungana ,amazi bakayayobora, ku buryo ubu imihanda ntabwo igipfa kwicwa n'amazi uko yiboneye ,kuko bakora za rigore zinyuramo amazi.

Imihanda yarakozwe mu gihugu cyacu, byatumye abacuruzi nabo batekereza kubaka amazu y'ubucuruzi kandi baracuruza ntakibazo, rero byatumye iterambere ryiyongera mu gihugu kubera imihanda.

Imbuga zo mu cyaro zikunda kugira ibizenga byinshi cyane ,ariko iyo abantu bayifatiye ingamba bagakora imiganda itandukanye ,usanga bayobeje aho amazi akunda kunyura, kugira ngo bazibye ayo mazi ,ni byiza cyane rero kugenda bakora imiganda itandukanye.